Iduka ricuruza imiti igendanye n'ubuhinzi, imbuto zo kwinaza ndetse na rozwari zifashishwa bari kuhira mu gihe cy'izuba kuko byorohera uri kuyikoresha.

Imbuga irimo imifuka myinshi ipakiyemo akawunga ndetse n'umuceri, aho hanze hari abantu benshi bari kuza gutwaraho ibyo bakeneye kugira ngo bajye kubyifashisha bateka mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Umugore wambaye umupira w'umutuku n'ipantaro ya karokaro ndetse n'akagofero k'umukara, ari gutera utuntu ku giti gifite amababi y'icyatsi.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga nka moto ndetse n'imodoka, aho hariho umugenzi wambaye agapira k'icyatsi n'ipantaro y'ikoboyi, iruhande rwayo hari amazu yubatse neza bigaragara ko banafotora.

Umurima mugari urimo abantu bambaye ibisurubeti by'ubururu ndetse na bote, aho bari gukusanya imyanda yagiye ibora kugira ngo izavemo ifumbire, babashe kuyihingisha babone umusaruro utubutse.

Abaturage benshi biganjemo abagore, bari mu murima mugari cyane uteyemo ibigori mu buryo bwa kijyambere. Aho bari kubikorera kugira ngo bazabashe kubona umusaruro utubutse.

Umugabo wambaye ishati y'umukara n'ipantaro y'ikake ari guterura imifuka igiye irimo ibintu bitandukanye, ikaba isa umweru. Iteretse mu cyumba gisize irangi ndetse hasi harimo isima.

Icyumba giteretsemo udufuka tugiye dutandukanye, aho harimo imvaruganda izwi nka enipeka, aho ikoreshwa mu buhinzi kugira ngo ibihingwa bibashe kumererwa neza.

Umurima uhinzemo ibigori byinshi kandi bitoshye kubera ko byitaweho, harimo abantu benshi abagabo ndetse n'abagore, aho bari kugenda bareba uko bikorwa abandi babereka uko babihinze.

Umugore witeze igitambaro yambaye ikote n'ingutiya igera ku birenge, aho ari mu murima ari gushyira imvaruganda ku biti kugira ngo birusheho gukura neza bitange umusaruro ufatika.

Icyumba gisize irangi ry'umweru na parafu y'ikigina, harimo etajeri iteretseho uducupa turimo imiti igiye itandukanye ndetse n'umuntu uyicuruza.

Imirima igiye iciyemo udupande, ahagana mu gishanga hateyemo ibihingwa by'ubwoko bugiye butandukanye, aho bafite uburyo bw'ikoranabuhanga buhiramo iyo ari mu gihe cy'izuba.

Umurima mugari cyane uri mu gishanga harimo abagabo babiri umwe wambaye ingofero, ishati y'umukara, ipantaro y'ikake ndetse n'inkweto za bote, aho acukura umwobo agenda ashyiramo utuntu tw'imvaruganda.

Icyumba gisize irange ry'umweru hakaba harimo akabati ka kake karimo imiti itandukanye yifashishwa mu buhinzi, hari kandi rozwari bakoresha bari kuhira imyaka kugira ngo iticwa n'izuba ikuma.

Umugabo wambaye ishati y'umukara n'ipantaro bisa ahetse icyuma gitera umuti, aho ari mumuma we mugari cyane uhinzemo ibihingwa nka sereri ndetse na karoti abitera umuti kugirango bikure neza.

Hanze ku muryango hateretse kandagira ukarabe ndetse n'akabase, aho uhinjiye wese aba ategetswe gukaraba kugira ngo himakazwe isuku kuko ariyo ituma abantu bagira ubuzima bwiza ndetse bakabasha no gukora imirimo ya buri munsi.

Umurima uhinze neza aho bitegura guhingamo ibindi bintu mu gihembwe gitaha, kugira ngo imvura nigwa izasange umeze neza bahite batangira, hirya yawo hari ibihuru byinshi cyane.

Agatebo karimo imbuto zizwi nka avoka zikunzwe n'abantu bakitari bakeya, aho zifashishwa ziribwa kandi zikaba zikorwamo n'ibintu bitandukanye, nk'amavuta akoreshwa mu kwisiga mu guteka ndetse na za mayoneze.

Umurima munini cyane uhinzemo amasaka, aho ari igihingwa gikunzwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, bamwe bakinywamo igikoma abandi bakagikoresha bakuramo ikigage, hakurya hari ibiti byinshi cyane.

Umurima urimo icyobo kijyamo amazi, aho yifashishwa bari kuhira ibihingwa biteye muri uyu murima, iyo ari mu gihe cy'izuba ntabwo bahagarika guhinga ahubwo barayifashisha.

Umurima uhinzemo urutoki rwinshi, aho ruvaho ibitoki bikabasha kujyanwa ku isoko, ba nyir'umurima bakabona amafaranga abateza imbere ndetse bagahaza imiryango yabo n'abaturanyi.

Abagore batanu b'abaturage, bamwe biteze ibitambaro mu mutwe, undi ahetse umwana, bari mu murima urimo intoryi, aho bari gufata zimwe na zimwe bagenda bazigaragaza, aho ari umusaruro mwiza babonye.

Igikarito kinini kirimo ibigori byumye, aho babisarura bakabizana bakabihunika ahantu hamwe kugira ngo igihe nikigera bazabivungure babijyane ku bishesha bivemo ifu y'igikoma cyangwa akawunga.

Umurima uhinzemo igihingwa cy'ibirayi aho byakoze cyane, iyo wakoresheje ifumbire mborera ndetse n'imvaruganda nta kabuza uba ugomba kubona ibyo wabibye kuko birera cyane ukabona byinshi.

Umurima uhinzemo ibihingwa by'ubwoko butandukanye, aho abaturage babikoresha mu buryo bwo kwiteza imbere bakabijyana ku isoko cyangwa se bakabirya ndetse bakihaza imiryango yabo ndetse n'abana babo.

Umugore witeze igitambaro cy'umutuku n'agashati k'umuhondo, ari mu murima munini cyane uhinzemo beterave, iyo zeze azijyana ku isoko akabasha kubona amafaranga yo gukoresha.

Umurima munini uhinzemo ibiti byinshi by'ikawa, aho iyo imaze gutunganywa ijyanwa mu bubiko maze abantu bagatangira kuyikoresha mu buryo butandukanye.

Umurima mugari cyane, uhinzemo urutoki rukiri rutoya, aho rutaratangira kuzana ibitoki ngo bibe byacuruzwa cyangwa bitekwe ariko iyo byitaweho neza, bibasha gutanga umusaruro.

Insina zakuze ziteye ku murongo, zikaba zifite ibitoki binini cyane aho bijyanwa ku isoko bakabona amafaranga cyangwa bakabigaburira abagize umuryango, bakabasha kubaho neza.

Umurima uteyemo ibirayi bitoshye kandi bimeze neza aho bizwi nk'ibikunda guhingwa mu Karere ka Musanze hakaba haguturukayo ibyitwa kinigi bikunzwe n'abatari bake.

Umurima urimo igishanga gitembamo amazi, aho hateyemo amateke ndetse n'ibigori byumye, ku buryo bidashobora kugira umusaruro kubera ko byamaze kwangirika, ni byiza guhinga ahantu hari amazi kuko ubasha kuhira.

Umurima uhinzemo insina zikiri ntoya zigaragara nkaho zitazera, iruhande rwazo hari igipangu kigufiya ndetse n'umunara muremure, hakurya kandi hari amazu yubatse afite irange ry'umweru.

Umurima uteguye neza, uhinzemo imboga za dodo, aho zikunzwe n'abantu bagiye batandukanye kuko zifashishwa mu kurinda indwara, cyane cyane ku bagore batwite n'abana bari munsi y'imyaka itanu.

Umurima uteyemo ibigori biteye amabengeza kubera ukuntu ari birebire bitoshye kandi bihetse byinshi cyane, ni byiza ko wita ku bihingwa byawe niba ushaka umusaruro utubutse kuko ari bwo uzabasha kuwubona.

Inka ifite ibara ry'ikake aho hari ibintu iri kurisha, iziritse amaguru kandi yarwaye indwara y'ibiheri ku ruhu rwayo, aho ikeneye abaganga babihuguriwe kugira ngo bayiteho.

Umugabo ufashe imiti mu kiganza aho ari kuyiha ingurube ye kugira ngo ikire indwara yari ifite kandi ntizongere kugira ikibazo, ni byiza ko amatungo nayo yitabwaho kugira ngo atange umusaruro.

Abagabo ndetse n'abagore bagiye batandukanye bari mu murima aho bari guhingira imbuto kugira ngo zizere zibashe kubaha umusaruro, inyuma yabo hari igiti gifite amababi y'icyatsi kandi cyagandaye.

Abagabo babiri, umwe wambaye ingofero, umupira w'umukara n'ipantaro irimo uturongo tw'umweru ndetse na bote ari kumwe n'undi bose bafite amasuka bari guhingira insina ndetse n'umurima urimo ibigori, hari ibyatsi iruhande rwabo bagiye banaga.

Umurima uhinzemo ibigori byamaze kwera, aho harimo abasore batatu ndetse n'umukobwa umwe bari kuwuhingira kugira ngo bazabashe guhingamo ibindi bintu mu gihembwe cy'ihinga gitaha utunganyije neza.

Abantu b'ingeri zitandukanye bahuriye mu rugo rumwe rwubakishije amategura ndetse hakaba hariho umucanga ushaje, aho bari gukata icyondo kugira ngo bamwubakire igikoni nawe ajye abasha guteka atavirwa.

Abagore babiri bari kumwe n'umugabo umwe, aho bari kugenda bufira imbuto ziteye mu murima kandi hejuru hakaba hatwikirijeho utuyungiro turinda izuba. Ni byiza kwita ku bihingwa byawe kugira ngo uzabone umusaruro.

Umurima wo mu giturage aho harimo abakobwa ndetse n'abasore, bari gukora isuku mu muhanda uhegereye, hari akana gatoya kambaye agakabutura n'agashati ndetse n'udukweto turi mu ibara ry'umuhondo.

Abaturage benshi biganjemo abagabo, bari guhinga umurima munini urimo ibyatsi, bagenda babikuramo babinaga inyuma. Imbere kandi hari insina idafite igitoki ariko igiye kwera.

Abantu b'ingeri zitandukanye bari mu murima aho bari guhinga bacukura imyobo abandi bazana imbuto zo gushyiramo, umugabo wambaye umupira w'umutuku afite igare yateretseho agatebo yatwaramo ibintu bitandukanye.

Umurima mugari cyane urimo abagabo babiri, umwe wambaye ingofero y'umukara, umupira ndetse n'ipantaro y'ubururu na bote, bakaba bari guca uturima dutoya muri icyo kinini kugira ngo bazabashe guhingamo ibintu bitandukanye.

Umurima uhinzemo ibigori byeze cyane, kuko buri kimwe gihetse bibiri bibiri, hahagazemo abagabo batatu, ndetse n'umugore wambaye umupira w'umukara, ipantaro y'icyatsi, ndetse n'akagofero k'urugara.

Kuri ubu abaturage bamenye ubwenge, aho bajya mu muganda bakiyubakira Igihugu, bari kumwe kandi n'abashinzwe umutekano bazwi nk'abasirikare, aho buri wese afite isuka yakataje.

Umukobwa ufite imisatsi miremire, wambaye agapira ka kake n'ipantaro y'umweru ari mu murima mugari cyane urimo imbuto zigiye kujyanwa ahandi zigaterwa ndetse inyuma ye hari ibyuma birebire.

Umugore wambaye ingofero y'urugara n'agapira k'umukara, afite mu ntoki akabase gatoya karimo intoryi yamaze gusoroma ndetse akaba ahagaze mu murima urimo n'izindi nyinshi zatangiye kwera.

Abaturage biganjemo urubyiruko rwinshi bari gusana ikiraro cyangiritse, aho bari kwifashisha amasuka bakora neza muri uwo muhanda, haruguru yaho hari urutoki ndetse n'ibyatsi byinshi.

Umurima mugari cyane uhinzemo ibigori bagiye banaga ibyatsi inyuma, harimo umugore wambaye agapira ndetse n'ijipo y'igitenge, afite isuka ariko arihagarariye nta mubyizi ari bucyure.

Umurima urimo ibyatsi byinshi cyane, harimo abantu yaba abagore ndetse n'abagabo, aho bari guhinga kugira ngo barebe ko baharangiza bagateramo ibihingwa bizagirira akamaro imiryango yabo ndetse n'Igihugu muri rusange.

Umugabo wambaye agapira k'icyatsi n'ipantaro y'ikigina ari mu murima mugari cyane, aho arimo kuwuhinga anatema ibiti byagiye biwugariza, inyuma ye kandi hari ibihuru byinshi.

Umurima munini cyane urimo abantu babiri b'abagore bari kugenda bahinga mu buryo bwa kijyambere, aho harimo amateke, insina ndetse n'ibindi byatsi bigaburirwa amatungo.

Abashinzwe umutekano barimo abapolisi ndetse n'abadaso, bambaye imyenda y'akazi bari kumwe n'abaturage benshi cyane, baje mu muganda bitwaje ibikoresho birimo amasuka ndetse n'ibitiyo, aho bari kuziba icyobo kinini.

Umugabo utambaye hejuru n'agakabutura k'ikigina hasi, afite isuka yakataje arimo guhinga umurima munini, aho harimo insina ndetse n'ibiti, hakurya hari imisozi iriho ishyamba.

Abantu batandukanye, bari guharura umuhanda, aho bafite amasuka, bakaba bashishikaye rwose. Ni byiza ko abaturage biga kwikorera ibikorwa bimwe na bimwe, batabanje gutegereza ko leta ibabwiriza.

Abaturage bari mu ngeri zitandukanye, bahuriye hamwe aho bari kubaka akarima k'igikoni bafatanyije. Ni byiza ko abantu bakorera hamwe kuko bitanga umusaruro kandi bikagirira akamaro bo ndetse n'igihugu cyabo.

Icyumba kinini cyane kibikwamo ibintu bigiye bitandukanye, higanjemo umuceri upakiye mu dufuka tw'umuhondo tw'ibiro makumyabiri na bitanu, aho uza ukagafata ukajya kugatura iwawe cyangwa ukagacuruza.

Umugabo ufite akanyamuneza kenshi mu maso yambaye ishati y'igitenge, iruhande rwe hari imifuka myinshi ya rugano irimo umusaruro bakuye mu mirima yabo, aho ari byiza gukura amaboko mu mifuka ugakora kuko biguteza imbere.

Umuhanda uriho imifuka myinshi ya rugano ipakiyemo ibintu, hakaba hari abaturage baje gutwaramo iyabo abandi basaba ikiraka cyo kugenda bayigeza aho bifuza kuyitwikira.

Imifuka myinshi ya rugano ipakiyemo ibigori bigeze hejuru, aho bari kuyihunika kugira bazabashe kuyitunganya ivemo akawunga kazacuruzwa mu gihugu ndetse byaba byinshi kakoherezwa no hanze yacyo.

Inzu yubakishije amabati, hakaba hapakiyemo imifuka myinshi irimo ibintu bigiye bitandukanye. Ni byiza ko niba umaze guhinga, ukusanya ibyo wahinze kugira ngo bibikwe neza, bitazangirika bitaratanga umumaro.

Ahakusanyirizwa imbuto zizwi nk'inyanya, hari ibitebo byinshi bigiye bisendereye no hejuru. Ndetse harimo abakozi bashinzwe kuzitanga n'abaje kugura izo nyanya, kugira ngo bajye kuzigurisha ahandi hatandukanye.

Ikizu kinini bashyiramo ibigori bitavovoye, kugira ngo bibanze byume, bibone gukurwaho ibishishwa, maze bijyanwe mu ruganda, bitunganywe, bikorwemo akawunga n'ifu y'igikoma.

Umuhanda wa kaburimbo ufite akayira k'abanyamaguru kariho amapave, aho hari icyapa kiri mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, handikeho ku Bigega, iyo wageze hano biba bivuze ko wageze aho warugiye rwose.

Isoko rigari cyane ryateraniyemo abantu b'ingeri zitandukanye, biganjemo abagore, harimo ibitoki byinshi byaturutse mu duce tugiye dutandukanye, aho nawe ubikeneye waza ukabigura ku mafaranga make ugahaza umuryango wawe.

Igishanga kinini giteyemo umuceri, aho numara kwera uzajyanwa ku ruganda ugatunganywa bityo ukagezwa ku bantu batuye Igihugu cyose ndetse bakaba bakohereza no hanze amafaranga akinjira.

Abagabo bagifite imbaraga bari guterura imifuka ya rugano, bayipakira neza kugirango ijye mu bubiko itazangirika irimo ibihingwa bigiye bitandukanye, aho ubikeneye aza akabigurira hano kugirango ajye kubicuruza.

Ububiko bushyirwamo ibicuruzwa bigiye bitandukanye nk'umuceri na kawunga kugira ngo ababishaka bazabihasange, maze babashe kubikwirakwiza mu tundi duce bigere ku baturage bahahe.

Abagabo babiri bahagaze ahantu hamwe, aho bafite imifuka igiye isa ibara ry'umweru, bakaba bari gusukamo inyanya, aho ari umusaruro babonye utubutse uzabafasha kwiteza imbere.

Ahari isoko rigari cyane bacururizamo ibitoki by'ubwoko bwose, aho hari abantu baje kubireba bamwe bafite amakaye bagenda bandika ibiro bifuza kugira ngo babihabwe.

Umuhanda ukoze nabi w'ibitaka, haruguru yawo hari umurima uteyemo ibigori ndetse n'igiti cy'umwembe. Iruhande rwaho hari insinga z'amashanyarazi zijyana umuriro mu baturage.

Igiti kinini cy'inganzamarumbo cyatemwe kirambikwa hasi aho bagiye bacamo uduce duto duto kugira ngo bazabone uko bacyasa, ni byiza kwifashisha akamashini kuko byihutisha akazi.

Umurima uhinzemo ibigori ndetse n'insina zifite ibitoki n'igiti kirekire cyane gifite amashami agaye. Hari ipoto ry'amashanyarazi rijyana umuriro mu ngo ziri aho hafi y'iyo nzira.

Insina ifite igitoki kitarakura cyane ngo kizane amabere ariko nyiracyo akaba afite icyizere ko mu minsi iri imbere azabasha kugaburira umuryango we ndetse akajyana no ku isoko akabona amafaranga.

Ishyamba ririmo ibiti byinshi birebire kandi bifite amababi atoshye, aho waza ukabitema, ukaba wabicana cyangwa se ukabitwika bikavamo amakara, cyangwa ukabijyana n'ahandi mu bikorwa bitandukanye.

Umurima uhinzemo ibigori byinshi ku nkengero hakaba hari ibiti bifite amashami agandaye, abakangurambaga bashishikariza abantu gutera ibiti byinshi kuko bikurura imvura.

Umurima uhinzemo urutoki aho hari insina imwe nkuru, ahandi hakaba hari ibigori ariko bitaraheka, ni byiza kwihangira imirimo nubwo yaba iy'ubuhinzi iyo uyikoze uyikunze iguteza imbere.

Imbuga iteyemo pasiparume ndetse n'uturabo turaba neza, turi iruhande y'inzu, aho abantu bose bagirwa inama yo kugirira isuku ahantu batuye kuko indabo ari kimwe mu bituma hagaragara neza.

Imbuga ngari iteyemo ubusitani bwiza bw'amawuwa ndetse n'igiti cy'umukindo ndetse n'ibindi birebire, hirya hari amazu ariho amarange y'umweru ndetse n'akayira gasakaye abanyamaguru bacamo.

Umurima mugari cyane ukaba uhinzemo inyanya, hicayemo umugabo wambaye agapira n'agakabutura aho ari kugenda azikorera ari kumwe n'akana ke gatoya kari kumufasha.

Umugabo wambaye ingofero y'umutuku, umupira wa oranje n'ipantaro y'umukara, ari kumwe n'umugore we ndetse n'umwana mutoya, aho bari mu murima w'ibishyimbo, basoroma imiteja kugira ngo ize kujyanwa ku isoko.

Umurima uhinzemo pavuro aho zigeze aho zitangiye kwera kuko hagiye hariho ebyiri ahandi rumwe, ushobora kuzijyana ku isoko ukaba wabona amafaranga ukiteza imbere mu buryo butandukanye.

Imboga zizwi nka dodo rwatsi aho zigiye ziteye mu mifuka zikaba zitoshye cyane, abantu benshi bakunda kuvuga ko nta butaka bafite bwo guhingaho ariko batazi ko iyo ushyize mu mifuka na bwo wakweza.

Isoko rigari ririmo igitanda bacururizaho, kikaba kiriho ibitunguru biri mu ibara ry'umutuku ndetse n'umunzani babipimaho kugira ngo badatanga ibirengereye cyangwa se bakabaha ibikeya, abakiriya ntibazagaruke.

Igihingwa kizwi nka kurujete, aho ziri mu murima ari nyinshi. Iyo zitaweho ziba nini, maze zikajyanwa ku isoko nyirazo akabona amafaranga ndetse no kuziteka ziraryoha cyane.

Umurima mugari urimo ibinyomoro bisasiye bitaratangira kwera ariko nyirabyo afite icyizere ko mu minsi iri imbere azaba ari gusarura kandi ko azabona amafaranga, akayakoresha mu bikorwa bye bitandukanye.

Umugabo wambaye ingofero y'umukara, n'agapira k'akajezi, n'isaha ku kuboko, ari iruhande rw'igiti cy'avoka, aho ari kugenda yitegereza ukuntu zingana, akibaza niba zizakura zikaribwa.

Agatebo karimo inyanya barambitse ku mufuka, ni igihingwa gikunzwe n'abantu benshi kubera ko iyo zigiye mu biryo bisa neza kandi bikagira icyanga ku buryo biryohera buri wese.

Mu isoko ribamo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, hari amaronji basutse hasi menshi cyane, aho hari umugore uri kugenda atoranyamo ayo yifuza kugira ngo n'andi azi kubona uko ayagurisha.

Umukobwa wambaye ingofero, umupira w'umweru n'umukara ndetse n'ipantaro y'ikoboyi, ahagaze ahantu hagemetse imbuto bazakuramo bakajya gutera mu yindi mirima kugira ngo zororoke.

Igitenge gifite amabara agiye atandukanye nk'umuhondo, umukara, umutuku, umweru, hariho umwembe, aho ari urubuto rukunzwe n'abantu batari bake, hano mu Rwanda ndetse no hanze.

Umurima uhinzemo imbuto z'amatunda, aho bagiye bifashisha ibiti kugira ngo yerereho. Ni imbuto zikoreshwa n'abatari bakeya kuko zitanga umusaruro kandi abantu bakagira ubuzima bwiza.

Isoko ricururizwamo imbuto z'ubwoko bwose higanjemo imineke ndetse n'avoka, aho bigenerwa n'abatari bakeya kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza ndetse n'imiryango yabo ibashe kubaho neza.

Isoko ricururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, aho higanjemo ibitunguru biri mu ibara ry'umweru ndetse n'iby'umutuku, hari kandi umunzani babipimaho kugira ngo batange ibyuzuye.

Umugore wambaye imyenda y'ibitenge, ahagaze mu murima mugari w'matunda aho bayubakiye uruzitiro kugira ngo ajye akuriraho ye kujya hasi maze babashe kubona umusaruro utubutse.

Igiti gifite avoka enye zitoshye cyane, zigiye zifite uduheri ndetse kikaba gifite n'amababi, aho zikoreshwa n'abantu batari bake kandi bakaba bazikunda.

Isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye byiganjemo imbuto nk'imineke, avoka, imyembe, amaronji ndetse n'amapera, aho nawe uzikeneye wabagana bakagufasha.

Umurima uteyemo urusenda, aho rukundwa n'abatari bake ku buryo hari umuntu uvuga ati njye ntarubonye sinshobora gukora mu biryo, niba nawe urukunda dore uburyo ushobora kuruhingamo.

Umurima uhinzemo imboga zizwi nka dodo, aho hakangurirwa abantu bose kuzifashisha kugira ngo bagire intungamubiri mu buzima bwabo, cyane cyane abana bari munsi y'imyaka itanu n'abagore batwite.

Umurima uhinzemo akarima k'igikoni, aho bateyemo imboga, abantu bose bashishikarizwa kubaka akarima k'igikoni, kuko ari kimwe mu bintu bigira akamaro kubera utuntu twose uhingamo.

Umugabo wambaye umupira w'umukara, ipantaro y'ikigina na bote ari mu murima uhinzemo ibigori aho ari kugenda abisasira ndetse n'inyanya zikiri ntoya zitarera, hakurya hari ibiti byinshi.

Umurima munini cyane, uteyemo inyanya ariko zitaratangira kwera. Aho bazana ibyatsi bakazisatira ndetse bagashyiraho ifumbire y'imvaruganda, ubundi nyuma bakajya bazana rozwari bakuhira.

Isoko ririmo udutanda barambitseho imbuto z'ubwoko butandukanye nk'imyembe, amaronji, imineke, wotameloni, amapera ndetse n'ibindi, aho ubishaka nawe waza ukihahira ukagira ubuzima bwiza.

Isoko ririmo ibitunguru byinshi, aho biba byaturutse mu bice bitandukanye by'Igihugu, bikegerezwa abatabasha kubihinga, ndetse iyo ubishaka ushobora no kubahamagara bakabigusangisha aho waba uherereye hose.

Mu muhanda wa kaburimbo hari kugendamo umukobwa wambaye agakote n'akajipo k'igitenge, akaba yikoreye ibase iriho imineke ndetse afite n'iyindi iriho ibinyomoro mu ntoki kandi afite agakapu ashyiramo amafaranga.

Isoko ririmo imbuto zitandukanye nk'amatunda ndetse n'imyembe, akaba ari imbuto zikunzwe n'abatari bakeya, aho zigira akamaro gakomeye ku buzima bwa muntu zikaba zinamurinda kurwara.

Umurima uhinzemo karoti aho zisheshe cyane, ni igihingwa gikunze kwifashishwa n'abakora mu mahoteli ndetse n'amaresitora kuko gikunzwe n'abatari bakeya hano mu Rwanda.

Umwana muto w'umuhungu uri mu kigero cy'imyaka itandatu n'umunani, afashe ingemwe mu ntoki aho bazitayeho kugira ngo zikure neza, bazabashe kuzitera mu wundi murima zitange umusaruro maze biteze imbere.

Isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye nk'inanasi, amapapayi n'imineke. Aho ubishaka, waza ukihahira dore ko ari ingenzi mu buzima bwa muntu.

Umurima munini wateguwe neza ukaba uhinzemo urusenda ndetse na pavuro, aho byitabwaho kugira ngo nibimara kwera bizajyanwe ku isoko, ba nyirabyo babashe kubona amafaranga.

Umurima uteyemo amashu akaba atangiye kwera ku buryo wakuramo makeya ukajya guteka andi ukajyana ku isoko, harimo umugabo wambaye umupira w'ubururu n'ipantaro y'umukara uri kwitegereza neza.

Mu murima munini aho binariza imbuto z'ubwoko bugiye butandukanye kugira ngo bazazigemure, bazijyane aho zihingwa zibashe gutanga umusaruro, aho baba bazitaho bazuhirira, bazufirira ndetse n'ibindi bitandukanye.

Umugabo wambaye ishati y'icyatsi, ipantaro y'ikoboye ndetse n'inkweto zifunze, ari mu murima uhinzemo inyanya ndetse n'amatunda aho bitanga umusaruro.

Isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye higanjemo kurujeti, ibitunguru by'umweru ndetse n'iby'umutuku, imiteja ndetse n'ibindi, aho waza ukihahira ukabasha kubaho neza n'umuryango wawe.

Umurima munini uhingwamo ingemwe, aho bazishyira kugira ngo nizimara gukura bazazimure bajye kuzihinga mu buryo bwa kijyambere ngo zizatange umusaruro ku baturage ndetse n'Igihugu muri rusange.

Isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye nk'imboga za dodo, karoti, intoryi, pavuro, wotameroni, ibihaza, amashu ndetse n'ibindi, aho ababikeneye baza guhahira bakajya guteka.

Umurima uhinzemo igiti kizwi nk'ikinyomoro, aho gikunzwe n'abantu batari bakeya ndetse kikaba kiribwa akenshi n'abana batoya kugira ngo bagire imikurire myiza kandi bazagire ubwenge.

Igiti cy'avoka ni kimwe mu bikungahaye ku ntungamubiri zikenerwa n'abantu benshi yaba abakuru ndetse n'abatoya, aho iyo wazifashe ubasha kugira ubuzima bwiza ndetse ukaba wanatekereza ku buryo bwihariye.

Umugore wambaye ingofero y'umukara, agapira kamwegereye ndetse akaba akenyeye n'igitenge, ahagaze mu murima w'ibinyomoro ndetse n'intoryi, aho zimwe yazisoromye akaba azifashe mu ntoki ze ari kuzerekana.

Ameza ateretseho imineke ya kamara iri ku nkoko, aho ikunzwe n'abatari bakeya, ikaba igira intungamubiri ku bana batoya ariko utibagiwe n'abakuru. Rero nawe wayishaka kugira ngo umererwe neza.

Igitebo kinini kirimo imbuto zitwa inyanya ziri mu ibara ry'umutuku, aho zijyanwa ku isoko, abantu bakaza kuzigura bityo bakazifashisha mu guteka ibiryo byabo kugira ngo bize kuba bifite icyanga biryoshye.

Umugabo wambaye umupira w'umutuku ingofero y'umweru n'ipantaro y'umukara, afite rozwari ari kwifashisha yuhira ibigori bye bikiri bitoya kugira ngo bizabashe gukura nubwo ari mu gihe cy'izuba bitage umusaruro.

Umugabo wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara afite umugozi muremure ari kwifashisha yuhira ibigori ahantu mu gishanga, aho niyo ari mu gihe cy'imvura cyangwa se icy'izuba abasha kuhira akabona umusaruro.

Igishanga giteyemo imbuto zitandukanye, aho harimo abagore babiri ndetse n'abagabo babiri, bari kuhira bifashishije uburyo bw'ikoranabuhanga, ku buryo no mu gihe cy'izuba batagira ubwoba bwo guhinga kuko na byo ari ingirakamaro.

Igishanga kirimo amazi menshi atemba, aho yifashishwa bari kuhira ibihingwa biteyemo kuko no mu gihe cy'izuba badahagarara ahubwo bakomeza bagahinga bityo bakiteza imbere.

Ikibaya kirimo umuceri, hakaba kandi hatembamo amazi menshi, aho ari yo yifashishwa mu kuhira ibi bihingwa iyo ari mu gihe cy'izuba dore ko baba batagomba guhagarika guhinga ngo ni uko izuba ryavuye.

Igishanga kirimo inzu nkeya, aho abantu bagirwa inama yo kwimuka ahantu nk'aha, kuko haba hari ibyago byinshi byo kuba imvura yabasenyera cyangwa bakagerwaho n'ibikorwa remezo bigoranye.

Ikibuga kirimo ibyatsi byinshi, hepfo hari inzu ifite imiryango myinshi, ushobora kwigiramo cyangwa ukahakorera ibindi bikorwa bitandukanye. Hakurya hari amazu menshi, yubatse mu bucucike.

Inzu yubatswe bigaragara ko imaze igihe kinini kandi ikaba nta n'amabati ariho ahubwo ari amategura, iri ahantu ha yonyine kandi igihugu kiri muri gahunda yo kwimura abantu ahantu habi kuko bagerwaho n'ingaruka zitandukanye.

Umurima mugari cyane uri guhingwamo n'abantu b'abagore ndetse n'abagabo, aho udashobora kuwuhinga wenyine ngo uwurangize. Hajyamo ibihingwa bitandukanye bikazatanga umusaruro, ba nyiri mirima bakiteza imbere.

Ahantu hari ishyamba rigari aho hubatsemo inzu zisa naho ari iz'amatungo, ariko bakaba bagirwa inama yo kuzihakura kuko ashobora kugerwaho n'ingaruka akaba yaribwa n'ibisimba by'inkazi cyangwa imvura ikaba yazitwara.

Umusozi muremure uriho amazu agiye atatanye, aho yubatse mu buryo bwa gakondo, hari kandi ibiti byinshi ndetse n'insina zivaho ibitoki bigurishwa mu isoko cyangwa bikavamo inzoga.

Igishanga kirimo amazi atemba ndetse n'ibyatsi n'ibindi biti, hakurya hakaba hari imisozi itandukanye, igiye iriho amazu, bigaragaza ko hatuye abantu b'ingeri zose.

Ikibaya kirimo ibyatsi byinshi haruguru hakaba hari urutoki ndetse n'ishyamba. Intoki ni kimwe mu bintu biherera mu cyaro aho bikurwamo amafaranga ndetse hakaba haboneka n'inzoga.

Imbuga irimo ibyatsi byinshi, ndetse n'ibiti, bikurura imvura bigatanga n'umuyaga, cyane cyane bikaba byiza iyo ari mu gihe cy'izuba. Ushobora kuza ukahiramo ubwatsi ushyira amatungo yawe, nk'ihene, ndetse n'inka.

Imbuga irimo ibyatsi igice kimwe ahandi hakaba hari umukungugu, aho hashobora kwifashishwa abantu bakina umupira ndetse ibi byatsi bikaba byakwahirwa bigahabwa amatungo.

Igishanga kigari cyane giteyemo umuceri, aho higanjemo amazi azawufasha gukura kugira ngo uzabyare umusaruro, hakurya hari amazu menshi ndetse hakaba hateye n'ishyamba rigari.

Abaturage barimo abagabo ndetse n'abagore bahuriye hamwe aho buri wese afite ingurube yambitse ikiziriko ari kugenda akurura batekereza ko bagiye kwiteza imbere bakava mu bukene.

Inka ifite ibara ry'umukara ndetse n'umweru mukeya, yambaye ikiziko iri ahantu hari ibyatsi byinshi. Inyuma yayo hari izindi nyinshi ziri kumwe n'umugabo uri kuzireberera ngo zidatoroka.

Umusore wambaye ishati y'umweru, ipantaro y'ikigina n'inkweto z'umukara ndetse na ekuteri mu gutwi, ari iruhande rw'ibiraro by'inka, aho ari nyinshi cyane ari kugenda yitegereza uburyo ari nziza.

Inkoko eshatu ziri gutora ahantu hari igisambu, aho aborozi bagirwa inama yo kubika amatungo yabo kure kuko nk'inkoko zishobora gutwarwa n'ibisiga bityo bikabaviramo igihombo gikomeye cyane.

Ihene ebyiri ziri mu mbuga aho ziri kurisha ibyatsi bikeya kubera ko ahandi hari itaka, ni byiza ko nk'umuhinzi wagira n'amatungo yo korora kugira ngo ujye ubasha kubona ifumbire yo guteza imyaka yawe.

Inka ebyiri imwe y'umukara n'indi y'ikigina, ziri mu kiraro kitubakiye neza, aho bazihaye ubwatsi imbere yazo ngo zirishe, nibirangira barazizanira amazi kugira ngo zitaza kugira icyaka.

Umuhanda w'ibitaka utarageramo kaburimbo uhagazemo umugabo wambaye agashati n'agakabutura, akaba afashe ihene ifite ibara ry'umweru yambaye ikiziriko, haruguru yayo hakaba hari inzu ntoya iteyeho umucanga.

Igisambu kiziritsemo intama ebyiri, aho ari itungo ridakunze kugaragara ahantu henshi kubera ko abenshi bakunda kwiyororera ihene ndetse n'inka kuko ari zo zikunzwe.

Inzu yubakishije umucanga hanze hegetse urugi, hari inkoko zikiri ntoya ndetse n'inkuru, aho ziri kugenda zitora kugira ngo zibashe kubona uko zitera amagi zitange umusaruro.

Itungo ryitwa ingurube rifite amabere menshi kandi ribasha kubyara utwana twinshi. Iyo dukuze tujyanwa ku isoko nyirayo akabasha kubona amafaranga akoresha mu buzima bwe bwa buri munsi.

Mu rugo rw'umuturage hari ikiraro cyubakishije ibiti, aho kibamo ingurube hari kandi umugabo uri kuyikuyakuya wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'ikigina, bakaba bahagaze mu mbuga.

Urugo rwo mu giturage ahari ikiraro kirimo inka igaragara nk'ihaka, ndetse n'ihene iyiri iruhande. Byose bikaba biri kurisha ibigori, aho byamaze kugaragara ko bitazera, bagahitamo kubigaburira amatungo.

Umugabo, umugore ndetse n'umwana bafite ibasi begereje ingurube yabo ifite ibara ry'umweru, aho bayishyiriyemo ibintu irimo kunywa. Yahaze cyane kuko ifite amabondo.

Imbuga yubatsemo ikiraro ariko atari icya kijyambere, harimo inka ifite ibara ry'umukara ndetse n'ikake, yambitswe iherena ku gutwi, imbere yayo hari agatanda iriramo.

Ihene ifite amabara y'umukara n'umweru yambaye n'ikiziriko, bayiziritse ku giti kugira ngo bayizanire ubwatsi irishirize aho, aho kugira ngo ijye kona imyaka y'abaturage.

Inka ifite ibara ry'umukara iri mu kiraro ndetse imbere yayo hari agatanda iriramo, iri mu ijandwe ryinshi kubera ko babuze ibyatsi bayisasiza kugira ngo ize kuba imeze neza.

Itungo rizwi nk'ingurube aho rigira inyama ziryoshye riri kurira mu kintu kimeze nk'umuvure ibiryo bigiye bitandukanye, abantu benshi bararikunda kubera ko yororoka mu gihe gitoya.

Imbuga ngari cyane, iteraniyemo inkoko, ziri mu kigero cyo gutera, aho haba harimo amatara azimurikira, kugira ngo zibashe kugira ubuzima bwiza, zitange umusaruro. Harimo isake ndetse n'inkokokazi.

Mu mbuga y'umusaza wambaye umupira w'ikigina n'ipantaro y'umukara n'akagofero, harimo inshimangizo ziziritseho ihene ebyiri, zifite ibara rya kake aho ziri kuririsha ubwatsi yazizaniye.

Inka ifite ibara ry'umukara yambitswe iherena ku gutwi kugira ngo izabashe gutwara inda maze izabyare itange umusaruro, yaba uwo gutanga amafaranga ndetse n'amata ayikomokaho.

Mu kiraro cyubatse mu buryo bugezweho, harimo inka ifite ibara ry'umukara ndetse n'inkoko iyiryamye iruhande, byose bikaba bitanga umusaruro kandi ubifite ntashobora kwicwa n'inzara.

Ihene ebyiri imwe y'umukara n'indi y'umweru ziziritse ahantu hamwe ziri guharishiriza, abantu benshi banga kwahura ihene mu gasozi kuko baba batekereza ko zishobora kona imyaka y'abaturanyi bakabamerera nabi.

Utubati bororeramo inkoko za kizungu, aho zitanga umusaruro mu gihe gitoya, zikenera ibintu bitandukanye birimo ibyo kurya, amazi yo kunywa ndetse n'urumuri ruziboneshereza kugira ngo zibashe gukura neza

Inzu imeze nk'ishaje cyane hanze hari umugore wambaye imyenda y'umuhondo, uri kunywesha ingurube amazi mu ibasi y'ubururu, aho ari kumwe n'akana gatoya.

Umugore wambaye agashati n'ijipo y'igitenge, ahagararanye n'umugabo we wambaye umupira w'icyatsi n'ipantaro y'ikake ndetse n'umwana muto wambaye impuzankano ziri mu ibara ry'ubururu, bafite ubwatsi mu ntoki bari kugaburira amatungo yabo.

Ihene imwe y'umukara ndetse n'indi ifite ibara ry'ikigina, ziziritse ahantu ku giti hatari ubwatsi ngo byibura zaba ziri kurisha ariko bagiye ku kuzahirira nibabubona barazizanira.

Ahororerwa inkoko aho yaba isake n'inkokokazi ziba ziri hamwe, zigatera amagi maze agafatwa akajyanwa ku isoko abantu bakabasha kuyagura, hari kandi n'abazitekamo inyama.

Umugabo wambaye isarubeti y'ubururu, akaba yicaye ahororerwa inkoko nyinshi mu cyumba kijimye kandi kirekire, zitera amagi ndetse zikaba zajyanwa ku isoko kugira babone amafaranga.

Ingurube ifite ubwoya bw'umweru, ikaba iri mu kiraro yonyine ahantu hadasasiye, ndetse ubwatsi bayihaye bumaze igihe. Ni itungo rikunzwe n'abatari bakeya kuko rigira inyama ziryoha.

Ihene ebyiri, ziziritse ahantu hari ibyatsi byinshi, aho zibasha kurisha zisanzuye, zigataha zihaze zidafite ikibazo kugira ngo banyirazo nibazigurisha, bazakuremo amafaranga.

Ikiraro cyubatswe mu buryo bwa gakondo aho kirimo inka ifite ibara ry'umukara ndetse n'umweru, hakaba hariho ibiti ndetse n'ibikori, hasi bashashijemo ibyatsi by'ishinge ndetse n'urubingo.

Imbuga ngari irimo ibyatsi, ahandi hari umukungugu, hahagaze ababyeyi benshi barimo n'abakobwa, aho baje gufata ingurube, zisa umweru, zose bakaba bazambitse ibiziriko, na byo by'ibara ry'umweru.

Ingurube umunani ziteraniye mu cyumba kimwe aho zirira, harimo ibijerekani bashyiramo ibiryo kugira ngo zikomeze kugira ubuzima bwiza zitange umusaruro.

Abagabo babiri barasutamye aho bari kufira imbuto bashyize mu bihoho kugira ngo zizabashe gukura neza maze bazitere zororoke ziveho izindi.

Umurima munini urimo ingemwe, aho iyo zimaze gukura, bazihakura bakajya kuzitera mu murima, aho zizaba zisanzuye, zikuhirwa, zikabasha gukura, zikavaho imbuto bajyana ku isoko bakabona amafaranga.

Umurima uteyemo inyanya aho zitaratukura, baziteye umuti kugira ngo birinde ubusimba ndetse barwanye n'imvura n'ibindi byose bishobora gutuma zidakura neza ngo zitange umusaruro.

Umurima uteyemo urusenda, aho hari ikiganza cy'umuntu kiri kugaragaza imbuto zajeho. Abantu benshi iyo batabonye urusenda, bavuga ko ibiryo bibishye kubera ukuntu iyo barushyizemo bihita bimera.

Umufuka urimo imbuto zizwi nk'amatunda, aho zikunzwe n'abantu batari bakeya ariko akenshi zikaba zikangurirwa abagore batwite n'abana bari munsi y'imyaka itanu, ni imbuto nziza kandi ziboneka ku giciro gitoya.

Umurima uhinzemo urutoki rwinshi aho hari akarima k'igikoni gateyemo imboga za dodo hari abagore baje kureba uko zimeze ngo nihaba harimo ibyatsi babikuremo kugira ngo zikure neza.

Umurima munini cyane uteyemo inyanya bagiye bashyiramo ibiti kugira ngo zoririreho zibashe gukura neza maze bazabone umusaruro bajyana ku isoko kabone n'ubwo basagurira imiryango yabo na byo byabashimisha.

Umugabo wambaye isarubeti y'ubururu, ari kumwe n'undi wambaye ikoti ry'ikigina n'ipantaro y'umukara, aho bari gukura amahembe inka ikiri ntoya kugira ngo izabashe kugira igitwe kinini, igurishwe amafaranga menshi.

Inka ifite ibara ry'umweru n'iry'umukara ihagaze ahantu hari ibyatsi, abagabo batatu barayifashe aho bari kuyitera urushinge kugira ngo bayikingire indwara zigiye zitandukanye.

Umugabo wambaye isarubeti y'ubururu, ari kumwe n'undi uri guhengereza, aho yicaye ku kiraro cy'inka isa umukara, iruhande rwayo hakaba hari agatanda hashyirwamo ubwatsi kugira ngo irishe.

Imbuga ngari irimo abantu benshi baje kuragira amatungo yabo arimo ihene ndetse n'inka. Aho iyo ubwatsi bwabaye buke mu rugo bagana ibishanga kugira ngo babashe kuyitaho aticwa n'inzara.

Abavuzi babiri b'amatungo bambaye imyenda y'akazi, bari imbere y'inka aho bari kuyitera urushinge, abandi bayifashe kugira ngo itaza kubacika batayivuye neza. Bari kumwe n'umugabo uri kubitegereza uburyo babigenza.

Inzu irimo inka isa nabi kubera ko idasasirwa ibyatsi byiza, harimo abagabo babiri bari kuyitaho bareba niba nta kibazo ifite ndetse na yo ikaba iri kwirishireza urubingo.

Umugabo wambaye ingofero y'icyatsi, agapira k'amabara y'umukara n'umweru, ipantaro y'ikigina na bote, ari mu cyumba cyijimye kandi gisa nabi, aho ari guhereza inka ye umuti.

Abagabo batatu umwe wambaye ishati y'igitenge n'agasengeri k'icyatsi ndetse n'ikabutura ya kake, afashe inka ku mugongo, ubona ko yagwingiye kubera ko ititaweho ngo ihabwe imiti hakiri kare.

Abana b'abasore batatu, umwe wambaye bote z'icyatsi n'umupira wikigina, bari kubaga ihene kugira babone inyama bajyana mu rugo rwabo kuko zikunzwe n'abatari bake.

Abaturage b'abagabo bambaye amakote ndetse n'amapantalo, bazanye imbwa zabo kuzikingiza kugira ngo zitazagira umuntu zirya zikaba zamutera indwara, bityo na bo bikabagiraho ingaruka zo kuba batangira kwita kuri abo bantu.

Mu gipangu bashyiramo inka kugira ngo bayibangurire cyangwa se bayitere imiti itandukanye bitewe n'indwara yaba ifite, hahagaze abagabo batatu bari kuyitaho umwe afite n'ikayi ari kwandika.

Mu mbuga ngari ahateraniye abantu, bari kubaga inka kugira ngo babashe kubona inyama zo gutekera imiryango yabo dore ko zikunzwe n'abatari bake, hirya yabo hari izindi nyinshi zitegereje kubagwa.

Umugabo wambaye isarubeti y'umukara na bote z'umweru, ari gukurura inka ifite ibara ry'umukara mu kiziriko, aho mu muhanda harimo n'ikinyabiziga cya moto ariko idatwaye umugenzi.

Mu mbuga yubatsemo ikiraro kitari icya kijyambere, hari abasore babiri umwe yikokoye, undi yambaye isarubeti y'ubururu, aho ari kuyikata amahembe kugira ngo izakure neza.

Ingagi ifite ibara ry'umukara n'ubwoya yicaye mu giti. Abanyarwanda benshi ndetse n'abanyamahanga bagiye batandukanye bakora ingendo baza kwirebera ibyiza bitatse u Rwanda nk'ingagi ahari na zo zinjiza amadovize menshi.

Inkende y'ibara ry'umukara ndetse n'ikigina ikaba yicaye ku giti. Ni inyamaswa ntoya ariko igira amayeri menshi aho izi kurira ibiti byinshi ndetse ikaba izwiho gukunda imineke cyane.

Inkende ifite ubwoya bigaragara ko ikuze aho bizwi neza ko zikunda kurya imineke, iyo ikubonye uwufite biba ngombwa ko iwukwambura cyangwa ukawuyihereza ku bushake bwawe.

Ibiti bibiri, bihagazeho inyoni imwe, akaba ari inyamaswa ikunze gukumirwa n'abantu kuko ikunda kona ibigori, amasaka ndetse n'ibindi bitandukanye kuko ari byo bibasha kuyitunga.

Imbwa iri kwirukanka ahantu hari igisambu ifite ikintu mu kanwa, bigaragara ko igiye ku kirya, bizwi neza ko iyo igufashe ufite inyama iba igomba kuzikwambura kuko irazikunda cyane.

Umugore witandiye agatambaro k'umukara, akenyeye igitenge ari kumwe n'imbwa ye, abantu bashishikarizwa kuzisiga mu rugo kuko zishobora kurya abandi bigatuma batanga amafaranga yo kubavuza.

Igiti cy'amashami maremare, hahagazemo inkende eshatu ndetse n'akana kazo gatoya, ni inyamaswa zizwiho kuba zifite ubwenge bwinshi kandi zikaba zikunda imineke ndetse zikamenya no kurira cyane.

Ibihuru birimo ibiti byinshi, hari akanyamaswa kari mu ibara ry'ikigina, aho gakanuye amaso, karamutse kakubonye uri wenyine, kagutera ubwoba ku buryo utamenya iyo uri kuva n'iyo uri kujya.

Umuhanda w'igitaka hicayemo inkende ifite utubara twa kake n'iminwa y'umukara, aho iri yonyine. Ni akanyamaswa gafite ubwenge bwinshi abantu benshi bakunze kuvuga ko gafitanye isano n'inguge.

Agasiga k'amabara meza y'ikigina, umukara, umweru ndetse n'ak'umuhondo ku munwa, aho kabereye ijisho ba mukerarugendo baza kugasura, hakaba haboneka amafaranga kuberako.

Inyoni ifite amabara meza arimo ubururu ndetse n'akarokoroko k'umutuku ku mutwe, aho buri gitondo ibyuka ivuga kugira ngo abantu basinziriye bicure bajye mu kazi kabo ka buri munsi.

Akanyamaswa gatoya ariko gakunzwe n'abatari bakeya ariko kitwa ingagi, aho gafite ibara ry'umukara ndetse n'umweru ahagana mu maso, kicaye ahantu hari ibiti byinshi ndetse n'ibyatsi.